Ikigo cy'amashuri y'abana batoya giteye amarangi y'umweru, gifite urubaraza runini aho abana bato babasha kwigira kugira ngo bige kwandika, gusoma ndetse n'ibindi.

Ahantu heza cyane hari ikigo cy'amashuri cy'abana, aho hari na kandagira ukarabe, abana baza gukandagiraho bagakaraba mu gihe bagize umwanda kugira ngo basubire mu ishuri basa neza.

Ikigo cy'ishuri kiri ahantu heza cyane, cyubakishije amatafari ndetse gifite n'amadirishya menshi, imbere yacyo hari abana bato cyane bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bari kumwe na ba nyina baje ku ishuri kugira ngo barebe ko biga neza.

Abana b'abanyeshuri babiri, bambaye impuzankano bahetse n'ibikapu mu mugongo, hari n'ikindi kintu barimo arasunika, aho umuntu ajya kwiga kugira ngo azagire ejo hazaza heza.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bafite amasahani bicaye mucyumba barimo bararya harimo n'abantu bakuru babicaye inyuma, bigaragara ko bari kubitaho kugira ngo barwanye imirire mibi.

Inyubako nini cyane irimo ibitabo by'ubwoko butandukanye, aho ari ahantu basomera ku buryo umunyeshuri wese uje gushaka igitabo abasha kukibona ndetse akagisoma, akavanamo ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri kigwaho n'abana bakiri batoya, gifite imiryango myinshi kandi giteye amarangi, hanze hari ibirabyo, hari abana bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu, aho handitseho ko ari ikigo kigezweho cya Nyagatare.

Ikigo cy'ishuri kinini cyane kirimo abana batoya bambaye impuzankano kandi bicaye ku mukeka aho iki kigo gifasha abana bakiri batoya kugirango bakangure mu bwonko bwabo maze babashe kuzamuka bameze neza.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye ifite imiryango myinshi gusa umuryango umwe urafunguye, bigaragara ko harimo ubucuruzi aho umuntu acuruza ibyo kurya imiceri ndetse n'imyunyu, maze ubishatse akaza akabifata akamuha amafaranga.

Icyapa kiri ahantu heza cyane cyanditseho G.S Burega, inyuma yaho hari amazu kandi meza, aho iki kigo ari ikigo cy'ishuri baza abantu bakiga kandi bakahatahana ubumenyi.

Ikibuga kinini cyane kirimo ibyatsi byiza kandi harimo n'ibiti, ikindi kandi harimo ibyicungo aho abana biga mu mashuri matoya biga baza kuruhuka bakaza kwicunga ngo baruhure mu bwonko.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza gusa gishushanyijeho ibishushanyo, gifite imiryango ikinguye, ibingibi naho abana batoya bafite imyaka guhera kuri itanu kumanura baza kwigira kugira ngo bakangure mu bwonko bwabo.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi, harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana batoya, gusa na none imbere hari ikibaho ndetse hari n'inzego z'umutekano, byumvikane ko bari kubagira inama y'uburyo bakwitwara kugira ngo ejo batazatandukira.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri, gifite imiryango myinshi kandi giteye amarangi y'mweru, ikindi kandi ni igorofa aho abanyeshuri baza kuhiga ndetse bakahavanaho ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'iz'ubururu, bicaye mu byicungo barimo bararya umunyenga, aho barya umunyenga kugira ngo baruhure mu bwonko.

Icyumba kinini cyane kirimo ameza ndetse kirunzemo n'ibitabo, hari umugabo uhagaze arimo ararambura ibitabo, aho umuntu azashaka gusoma ndetse akifashisha ibyo bitabo, akabisoma akavanamo ubwenge.

Igipangu kinini cyane, kiriho urugi rw'umukara ndetse hari n'inzu zisize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho ko ari TTC Matimba, aho abanyeshuri baza kwigira ibintu bijyanye n'ubwarimu.

Inyubako nini cyane ndetse y'amagorofa ifite imiryango myinshi iteye amarangi y'umweru ndetse ifite na sikariye kuruhande hanze yayo hari umuntu uhagaze bigaragara ko ari inyubako kandi nziza y'uburezi.

Ikigo cy'amashuri ya pirimeri giteye amarangi y'umweru, gifite urugi rw'umukara rurakinguye, aho abana biga pirimeri baza gufatira ubumenyi kugira ngo barusheho kugira imibereho myiza.

Ikigo cy'ishuri kiri ahantu heza cyane, cyubakishije amatafari ahiye, gifite imiryango myinshi, ibi rero bikorwa na leta kugira ngo abana bazaze kwiga kandi bazahabwe ubumenyi buhagije.

Ishuri rinini cyane riteye amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, rifite imiryango myinshi . Hanze yaryo hahagaze moto, bigaragara ko ari ishuri rishyashya ku buryo abanyeshuri bataratangira kuza kuryigamo ngo bahavane ubumenyi.

Ishuri rito cyane ndetse rifite umuryango munini, handitseho ko bafite amadirishya, urugi, igikuta ndetse n'igisenge, ibi ngibi bikaba byanditse mu cyongereza kugira ngo babashe kwigisha abana Icyongereza uko byitwa.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri, harimo kumpa matematikari irate, kome ndetse n'bindi bikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga imibare bikabafasha gushushanya.

Ikigo cy'ishuri kiri ahantu heza cyane cyubakishije amategura ndetse gifite imiryango ibiri, hari ibikinisho biri hanze aho abana iyo baje gukina mu masaha yo kuruhuka babikoresha ubwonko bwabo bukaruhuka.

Ikibaho kinini cyane cyanditseho inkuru isomerwa abana kandi handitseho ngo ni inyuguti z'Ikinyarwanda, aho izi nyuguti zifashishwa igihe abana batangiye kwiga mu mashuri abanza kugira ngo bamenye kwandika no gusoma.

Ikigo k'ishuri kinini cyane gifite inyubako nyinshi ndetse mo hagati hateyemo igiti, gifite imiryango myinshi umwe urafunguye, aho abanyeshuri baza kuhiga kandi bakahakura ubumenyi buhagije.

Igipangu kinini cyane kiri ahantu, gifite urugi rw'amabara y'umutuku cyubakishije amatafari, gusa hari n'icyapa cyanditse mu mabara y'umweru cyanditse ko ari igororero ry'abana rya Nyagatare.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, matematikare, gome, amakaramu ndetse n'umukasi. Ikindi kandi hari na karekatirise. Ibi rero byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo barahabwa amasomo.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane, gifite imiryango myinshi ndetse n'urubaraza runini, cyubakishije amatafari ahiye kandi gifite na sima zigera kuri eshatu, aho bagiteze ku buryo kidashobora kugwa.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye harimo matematikare, kompa, gome ndetse n'amarate akoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga isomo ry'imibare kugira ngo babashe gushushanya.

Inyubako nini cyane ziri ahantu heza cyane gusa imbere yazo hari abantu batatu, hari abagore babiri n'umugabo ubarimo hagati, abagore bambaye udupfukamunwa tw'umweru umugabo nawe yambaye upfukamunwa k'umukara hari ikintu bateruyemo agati bigaragaye ko barimo barifotoza.

Inyubako nini cyane ifite amabati ashaje, gusa ifite imiryango ibiri iteye amarange y'ubururu, aho iyi nyubako ikeneye gusanwa kugira ngo itazahirimira abantu.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ifite imiryango myinshi cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati y'ubururu, inyuma yayo hari ibiti aho abanyeshuri baza bakiga neza bakahavana ubumenyi.

Inyubako nini cyane, iteye amarange y'umutuku ndetse ifite umuryango munini, hanze yayo hari intebe ndetse hari n'ibikinisho by'abana bakoresha mu gihe bari gukina, bigaragare ko ari ikigo cy'amashuri cy'abana batoya.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane, cyubakishije aya matafari ndetse giteye n'amarangi y'umweru, mu kigo nimbere harimo ibendera ry'u Rwanda, kandi ku mashuri hahagaze abantu babiri ku rubaraza.

Icyapa gishushanyijeho, ababyeyi ndetse n'abana babo, umugabo akaba yitwa Jabo, umugore nawe akitwa Simbi, umwana umwe yitwa Ganza, uwa kabiri akitwa Keza, uwa gatatu Shema, uwa kane akitwa Isa.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kigo cy'ishuri gusa harimo intebe ameza ndetse harimo n'ibibaho bitatu bigaragara ko ari aho abana bagira bakicara kandi bakiga.

Ikigo cy'amashuri gihagazeho abantu hanze, bamwe bafite ibitabo ndetse hari umuntu uhagaze imbere, bigaragare ko bari kumutega amatwi kugira ngo yumve ibyo ababwira, maze bazabishyire mu bikorwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, ni abakobwa ndetse n'abahungu bagaragare ko bishimye cyane gusa abahungu hari ibintu barimo barasobanurirana uburyo byakorwamo kugira ngo bigende neza.

Ishuri rinini cyane ririmo abanyeshuri bicaye ndetse bari gukoresha mudasobwa, bambaye udupfukamunwa, aho baza gukorera mudasobwa kugira ngo babashe kugira amakuru menshi ndetse bakore n'ubushakashatsi.

Icyumba kinini cyane cyateraniyemo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'udupfukamunwa, baricaye bari kumva ibyo umuyobozi ababwira kugira ngo bazabashe kubikurikiza.

lkigo kinini cyane gifite inyubako nyinshi, kandi hafi yacyo hari ubusitani buteyemo ibiti, hari n'abandi bagabo barimo barigisha umwana uburyo yakwitwara ,kugira ngo atazongera kugira amakosa akora.

Ikigo cy'ishuri kiriho abantu babiri harimo umugore ndetse n'umwana wambaye impuzankano barimo barifotoza kugira ngo basigarane ifoto y'urwibutso maze umubyeyi atahe kuko yari yaje aherekeje umwana ku ishuri.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza ifite inzugi z'ubururu ndetse iteye n'amarange y'umweru, hari abantu bari kuyisohokamo bajya hanze, bigaragara ko ari abarezi kandi bamaze gutanga amasomo yabo.

Inyubako nini cyane irimo ibitabo byinshi cyane, bimwe birambitse mu tubati, ibindi birambitse ku meza, gusa hari umugabo uhicaye wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari mu isomero kandi abantu baza kuhasomera bakahavana ubumenyi.

Abantu benshi cyane bari mu kigo cy'amashuri, harimo abambaye ingofero z'umweru ndetse n'udusengeri tw'umuhondo, harimo umukobwa na we ufite imisatsi myinshi, iruhande rwe hari umugore bigaragare ko hari ikintu barimo barasana cyangiritse kandi bashaka kukigira neza.

Umwana w'umunyeshuri yambaye umupira w'ubururu ndetse ahetse n'igikapu ari kumwe na nyina arimo aramusuhuza, nyina yambaye umupira urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwe kandi hari imodoka ziparitse n'undi munyeshuri uhetse igikapu cy'umukara.

Ikigo cy'ishuri cyicayemo abana b'abakobwa batatu, basetse bicaye bambaye impuzankano z'umweru ndetse na karuvate z'ubururu bigaragare ko bamaze gutsinda ibizamini mwarimu yabahaye.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane kirimo abanyeshuri ndetse baricaye bambaye impuzankano z'umweru n'umukara, harimo n'umuzungu ubahagazemo hagati barimo barumva ijambo umuyobozi ari kubabwira.

Ikigo kinini cya segonderi kirimo umunyeshuri, wabaye uwa mbere hari umumama ndetse n'umupapa bari kumuhemba, bamuhaye impano ndetse, bamuhaye n'indangururamajwi kugira ngo abwire abandi banyeshuri inzira yaciyemo kugira ngo abashe kuba uwa mbere.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abanyeshuri bambaye impuzankano batebeje ndetse bambaye na karuvatie hari ufite urupapuro n'undi ahagaze iruhande rwe, bigaragare ko ari kuvuga umuvugo kandi ari ibirori bimeze neza cyane, abantu bamuteze amatwi.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane gifite igipangu ndetse n'urugi rwanditseho ngo murakaza neza mu kigo cya Rukomo, aho abanyeshuri baza ndetse bakabasha kwiga bagahabwa ubumenyi buhagije.

Ikigo cy'amashuri cya segoderi cyubakishije amatafari ndetse gifite imiryango myinshi, gifite n'ikigega cy'umukara kijyamo amazi kugira ngo abanyeshuri batazaza kwiga bakabura amazi yo gukara.

Ikibuga kinini cyane kicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru, bateze amatwi umuyobozi kugira ngo bumve inama abagira, ejo batazatandukira bagakora ibibi kandi bitemewe.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye mu kibuga bambaye impuzankano, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, gusa hari na mwarimu wambaye ishati y'umweru ubicaye imbere bigaragare ko hari ikintu cy'ingenzi barimo barumva.

Icyumba kinini cyane kirimo abanyeshuri bambaye ibisarubeti by'ubururu kandi bari no gukora utubati iruhande rwabo hari intebe ndetse n'meza bafite insinga bigaragara ko hari ibintu barimo barakanika.

Ikigo cy'amashuri kirimo abantu benshi bambaye kasike z'umweru ndetse n'umuhondo, hari n'abandi bambaye udusengeri tw'umuhondo n'u tw'ubururu, barahagaze hari ikintu barimo barareba ikindi kandi harimo harakamo amatara.

Inyubako nini cyane ikorerwamo umwuga w'ubwarimu ndetse hari abagabo batatu b'abarimu bahagaze, iruhande rwabo hari abandi banyeshuri bari kubagira inama y'uburyo bakitwara mu buzima kugira ngo bazagire ubuzima bwiza.

Ishuri rinini cyane ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru, imbere yabo hari ikibaho kandi hari umukobwa ubahagaze imbere, arimo arabamurikira umukoro yakoze kugira ngo babashe kuwusobanukirwa.

Inyubako iri ahantu heza cyane, imbere harimo abantu babiri kandi ku ruhande hari undi muntu wambaye isengeri y'umuhondo, ifite ikigega cy'umukara, bigaragara ko iyo imvura iguye amazi agwa muri icyo kigega.

Ikigo cy'amashuri cya segonderi hari abanyeshuri bicaye mu kibuga bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umukara, hari umupolisi bahagazemo hagati bigaragare ko hari ikintu arimo arabagiraho inama kandi bamuteze amatwi kugira ngo bamwumve neza.

Abanyeshuri bahagaze mu kibuga harimo abasore batatu ndetse n'umukobwa umwe, abasore bambaye amashati y'umweru ndetse harimo n'uwambaye umupira, iruhande rwabo hari umugabo wambaye impuzankano zisa ndetse n'inkweto za butine.

Ikibuga kinini cyane kicayemo abantu benshi by'umwihariko urubyiruko bigaragare ko ari abanyeshuri, imbere yabo hari abayobozi b'umutekano ndetse n'abayobozi b'ikigo, barimo barabagira inama kugira ngo ejo bazabashe kuvamo abantu b'abagabo kandi bakomeye.

Inyubako nyinshi cyane z'amagorofa ziteye amarangi y'umweru, imbere yazo hari abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bambaye karavati banatebeje kandi iruhande rwazo hari n'aba mama b'abazungu bigaragararika ari ikigo cy'amashuri ndetse cy'abakobwa.

Ikigo kinini cyane kiriho abanyeshuri, bamwe bambaye impuzankano z'umweru abandi bambaye iz'umuhondo bigaragare ko bari ku murongo kandi bari gukurikiza amabwiriza y'abayobozi babo.

Igishararaga kinini cyane cyicayemo abantu benshi ndetse harimo n'abambaye impuzankano hari umugabo uhagaze ufite igipapuro mu ntoki wambaye n'amadarubindi bigaragare ko hari ijambo arimo arabagezaho kandi bamuteze amatwi.

Ikigo cy'ishuri kiri ahantu heza cyane cyubakishije amatafari ahiye ndetse kirageretse inyubako imwe, hanze hari umuntu aho iki kigo cyifashishwa mu gutanga ubumenyi maze abanyeshuri bakamenya ubwenge ndetse bagatera imbere.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane hanze hari abanyeshuri bicaye mu mbuga bambaye impuzankano z'amashati y'umweru, imbere yabo hari umugore ubahagaze imbere wambaye umupira w'ubururu ndetse ufite urupapuro mu ntoki arimo arabaha impanuro.

lcyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye ,by'umwihariko ibikoresho bikoreshwa mu kwiga ,harimo ibitabo byinshi cyane. Aho umunyeshuri wese ushaka gusoma igitabo ,aza agahitamo igitabo kimuryoheye maze ,akagisoma akavanamo ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane gifite inyubako nyinshi, imbere yacyo hari abagabo bahagaze bigaragare ko ari abafundi bari kugisana, ibi ngibi bikorwa iyo hari ikibazo cyabaye kugira ngo baze basane ibyangiritse.

Ikigo kinini cyane cya segonderi hari abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru ndetse na karavate barimo barifotozanya n'abarimu babo bigaragare ko bishimye cyane rwose bameze neza.

Ikigo k'ishuri kicayemo abanyeshuri bafite amakayi ndetse iruhande rwabo hari intebe zicayeho ubusa, bari kureba imbere ku kibaho bakurikiye mwarimu kugira ngo bumve ibyo ababwira ejo bazabishyire mu bikorwa.

Ikigo cy'amashuri cyigaho abana ba segonderi ndetse cyubatse neza, gifite ibirahuri byiza kandi iruhande rwacyo hari ubusitani, hari n'abanyeshuri kandi barimo barakina hanze.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru kandi cyanditse mu mabara y'umukara handitseho kari Kagitumba hayi sikuru, aho iki cyapa kiri kurangira abantu baje kuri iki kigo aho giherereye kugira batazayo.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane gisize amarangi y'umweru ndetse cyubakishije amatafari ahiye, gifite inyubako nyinshi hanze yacyo hari abantu barimo barareba ibyangiritse kugira ngo babashe kubisana.

Ikigo cy'ishuri cya segondari kirimo abantu benshi cyane ndetse barimo barareba ibyangiritse kugira ngo bagisane ubundi abanyeshuri bazaze basanga kimeze neza babona aho bicara ndetse n'i ishuri ritazanabagwira.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane giteye amarangi y'umweru, gifite imiryango myinshi, harimo abanyeshuri ndetse bamwe bambaye kasike ndetse n'udusengeri bigaragare ko barimo bariga kandi hari ibyo barimo barasana kugira ngo bigende neza.

Ikigo cy'ishuri kiri ahantu heza cyane cyubakishije amatafari ahiye ndetse gifite amarangi y'umweru n'inzugi nziza kandi ikindi cyubatse mu buryo bw'amagorofa, aho abanyeshuri baza bamwe bakigira hasi kandi bakigira hejuru kugira ngo babone ubumenyi buhagije.

Inyubako nini cyane yicayemo abantu benshi bigaragara ko ari abanyeshuri harimo abakobwa babohesheje imisatsi baricaye barimo barandika bari gukora ikizamini mwarimu yabahaye kugirango ngo babashe kugitsinda.

Abantu bari mu kibuga harimo umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye ishati y'umweru ndetse afite n'ikaye mu ntoki, ari kumwe n'umusore, imbere yabo hari undi mukobwa n'umusore bari kugenda.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu bari mu nama, baricaye gusa hari abandi babiri bahagaze, umwe arimo arabagira inama ndetse bamuteze amatwi kugira ngo bumve ijambo ababwira, ejo bazakore ibyo ari kubabwira.

Ishuri rinini cyane ryateraniyemo abanyeshuri batandukanye, abahungu ndetse n'abakobwa, baricaye barimo bariga, imbere yabo hari za mudasobwa, hari mwarimu kandi arimo arabafasha kubigisha uburyo bakoresha mudasobwa.

Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri ba kaminuza bicaye ku ntebe ndetse hari umugabo ubahagaze iruhande bari gukoresha mudasobwa kugira ngo bunguke ubumenyi kandi babashe kuvumbura byinshi.

Inzu nini cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'umwihariko ibikorwa by'uburezi, harimo ikibaho cy'umweru cyanditseho ndetse n'agatebe k'agatabureti, aho biza kugira ngo abanyeshuri babyicareho ndetse na mwarimu abone aho yicara abashe gutanga amasomo ye neza.

Icyumba kinini kirimo ameza arambitseho ikayi ifunguye gusa yanditseho imibare, aho ibingibi umunyeshuri abyifashisha mu gihe arimo arakora etide kandi bikamufasha kwibuka ibyo mwarimu yamwigishije.

Icyumba kinini cyane kirimo abanyeshuri ndetse baricaye barimo bariga, batatu barahagaze abandi babiri baricaye, harimo intebe ndetse n'ameza bafite n'amakaye n'amakaramu.

Ikigo cy'ishuri cya kaminuza kiri ahantu heza cyane, gifite ubusitani bwiza buteyemo pasiparume, aho abanyeshuri basoje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye baza bakabafasha kwiga bagakurikirana andi masomo bashaka.

Icyumba kinini cyane kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe kandi imbere yabo hari za mudasobwa barimo barazikoresha bigaragare ko hari n'abandi barimo barasoma amakayi, aho abanyeshuri baza kwiga kugira ngo babashe gukoresha mudasobwa.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza, iteye amarange y'umweru ndetse ifite n'imiryango myinshi, iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo igikorwa cyo kwigisha abanyeshuri kugira ngo bagire ubuzima bwiza ejo bazabashe kwifasha.

Inyubako irimo abanyeshuri basoje kwiga kaminuza, bambaye amakanzu ndetse n'ingofero nk'abantu basoje kwiga kandi barahagaze, gusa hiryabo hari abandi bicaye barimo barumva ijambo ry'umukuru kugira ngo babashe kuritahana.

Ikigo k'ishuri kinini cyane kirimo abana b'abanyeshuri bicaye ndetse imbere yabo hari n'amakayi basetse, barishimye bigaragare ko mwarimu ibintu ari kubigisha babyumvise.

Icyumba kinini cyane kirimo abanyeshuri barimo bariga, baricaye ndetse barimo barandika bakurikiye mwarimu kugira ngo bumve ibyo ababwira ejo batazavaho babonye zeru kandi baraje kwiga.

Inyubako nini cyane itangirwagamo serivisi z'uburezi, hari umukobwa wicaye ndetse imbere ye hari mudasobwa arimo arayikoresha akora ubushakashatsi kugira ngo amenye amakuru byimbitse.

Icyumba kinini cyane kicayemo abanyeshuri ba kaminuza, imbere yabo bari mwarimu arimo abigisha, gusa bafite mudasobwa ndetse n'amakayi, aho bari kumva ibyo mwarimu ababwira kugira ngo bazabashe kubishyira mu bikorwa.

Inyubako nini cyane irimo abantu batandukanye, bigaragara ko ari abanyeshuri bafite ibikapu ndetse bamwe baratebeje, aho baje kwiga kugira ngo babashe kugira ubumenyi kandi ejo baziteza imbere.

Umuhanda urimo abantu batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo hari umugore wambaye ipantaro n'ishati, bisa afite igikapu cy'umukara ku rutugu ari kumwe nundi wambaye imyenda y'umukara bigaragare ko bafite urugendo kandi rurerure.

Abantu babiri bari kwinjira mu kigo cya kaminuza, ni umukobwa ndetse n'umusore, imbere yabo hari umuhanda ukomeza kandi icyo kigo kiri ku ruhande, aho baza kwiga kugira ngo babashe kuhavana ubumenyi kandi bwimbitse.

Inyubako nini cyane iteye amarange y'umweru ndetse ni inyubako y'amagorofa, iruhande rwayo hari umuntu ugiye kuyinjiramo kandi afite ubusitani bwiza cyane, ni inyubako itanga serivise z'ubwarimu, aho abanyeshuri baza kwiga kandi bakahavana ubumenyi bukomeye.

Icyumba kinini cyane kirimo imbuto zitandukanye harimo imineke, inanasi ndetse na voka, aho umuntu abirya nyuma yo kumara gufata ifunguro rye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abanyeshuri bateraniye mu cyumba kimwe baricaye, imbere yabo hari za mudasobwa kandi hari na mwarimu uri kubigisha, bamuteze amatwi bari kumva ibyo ababwira, kugira ngo ejo na babaza batazabona zeru.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshuri, hari ikibaho gishushanyijeho igishushanyo mwarimu yifashisha mu gihe arimo arabigisha kugira ngo ibyo bakora babikore neza.

Inyubako nini cyane ifite imiryango myinshi gusa mo imbere harimo intebe ndetse n'ikibaho, bigaragara ko ari ishuri gusa ry'abantu biga kaminuza, aho baza bakahafatira ubumenyi maze bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Ikigo cy'ishuri cya kaminuza kandi kinini cyane, kiriho abanyeshuri batandukanye, abakobwa ndetse n'abahungu, gusa bafite n'amatelefone mu ntoki, aho iki kigo ari ikigo gifasha abanyeshuri basoje icyiciro cya kabiri cya segondere kugira ngo bongere ubumenyi bwabo.